Ikiganza gifashe ifumbire mu ntoki. Icyo kiganza kikaba cyambaye ga isa nk'umuhondo. Iyo fumbire bagiye kuyijyana kuyihingisha imyaka.

Umuntu umeze nkaho ari gufuhira imyaka, uwo muntu akaba yambaye igisarubeti gisa nk'umweru akaba ahetse n'ipombo ifite imifuniko isa nk'ubururu ipombi ikaba isa nk'icyatsi.

Umugabo umeze nk'aho ari gutera umuti mu birarayi, akaba ahetse ipombo mu mugongo isa n'umuhondo. Akaba yambaye imyenda isa n'umukara, akaba ari gutera umuti mu ibirayi kugira ngo ibirayi bibashe gukura neza kuko babitera umuti.

Abantu bameze nk'aho bari gutera umuti mu bihingwa runaka. Aba bantu bakaba bose bafite amapombo, bakaba bambaye dupfukamunwa bakaba bambaye n'ibisubeti by'umukara.

Amafi ateretse mu kantu kagatete gasa nk'umutuku, ayo mafi ameze nk'aho bavuye ku yaroba mu ruzi, cyangwa se mu nyanja, kuko ayo mafi abantu barayakunda.

Abagabo benshi bameze nk'aho bari kuroba amafi ahantu mu kizenga. Abo bagabo bakaba bambaye imyenda itandukanye, harimo abambaye ibisarubeti by'icyatsi na bambaye udupira turi mu mabara y'umweruru n'ubururu.

Inyama zimeze nkaho ari iz'ifi. Izo nyama zikaba ziteretse ku kintu kizengurutse cy'ikibaho, hariho icyuma gisa n'umweru n'umukara, kimeze nk'aho icyo cyuma aricyo kimaze gukata izo nyama.

Abagabo bameze nk'abari kuroba ahantu mu kiyaga. Bari mu bwato butatu, abo bagabo bakaba bari kuroba amahera ,kuko amahera araryoha.

Umuntu uri mu bwato uri kugashya, uwo muntu akaba yambaye imyenda y'umukara kuruhande hariho undi muntu wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'igitaka. Bakaba bari mu bwato bari gutwara ubwo bwato buri mu kiyaga.

Ifi imeze nk'aho barangije kuyiteka, bakaba bayishyize ahantu bagiye kuyirira. Ikaba yahiye neza, bayikasemo neza, ku ruhande rw'aho hariho utunyanya, n'utundi turongo dutandukanye.

Amafi ari ku isahani, ayo mafi akaba yamaze gushya, ayo mafi iyo bavuye kuyaroba, baragatunganya bakayakaranga, bakayateka.

Ikintu kimeze nk'ukuboko, gifashe ikintu kimeze nk'igitimba kirimo amahera ameze nk'aho barangije kuyaroba. Ayo mahera iyo barangije kuyaroba, barayatunganya, nuko bakayajyana kuyagurisha.

Amafi ameze nk'aho bavuye kuyaroba, iyo uvuye kuyaroba urayatunganya, nuko maze ukayajyana ku isoko abantu bakayagura, kuko amafi abantu barayakunda.

Umuriro mwinshi uri kwaka, hejuru yaho hariho akuma k'umukara, hejuru hateretseho ifi imeze nk'aho bari kotsa. Iyo fi impande yaho hariho akantu kameze nk'agacunga, hasi hariho ibintu bimeze nk'amabuye y'umukara.

Abantu bameze nk'aho bari mu bwato, ubwo bwato bukaba bwanditseho Polisi Marine. Ubwo bwato bukaba bufite amarangi y'umweru n'ubururu n'umukara.

Inyama zimeze nkaho ziteretse ahantu hameze nkaho hariho ubukonje, impande y'izo nyama hariho amaronji hakaba hariho n'inyanya, izo nyama zimeze nkaho bazisize mu bintu bikonje.

Ubuhinzi bw'ibirayi. Ibirayi babitera umuti kugira ngo bibashe gukura neza. Ibirayi abantu benshi barabikunda cyane kuko bifite akamaro kanini mu mubiri wacu. Ibirayi iyo byeze barabikura, bakabijyana ku isoko, ibindi bakabiteka.

Ibikenyeri byegetse ku nzu ,iyo nzu ikaba isakaje amabati ,ikaba iteye urwondo . Ibyo bikenyeri bakaba babikura ku bigori barangije kubisarura.

Abana bahagaze mu mirima bari kuragira intama. Muri uwo murima hateyemo insina, ku mpande zaho hariho inzu isakaje amabati y'umutuku n'amatafari ahiye.

Ihene iziritse mu murima, ihene iri kurisha, uyu murima umeze nk'uwavuyemo ibigori basaruyemo, imbere yaho hariho inzu, imbere hariho n'insina, iyo nzu yubakishije n'amatafari manini.

Umurima umeze nk'aho basaruyemo ibigori. Kuko iyo bamaze gusaruramo ibigori barongera bakahahinga, bagateramo ibindi bihingwa bigiye bitandukanye.

Umurima umeze nk'aho harimo ibiti, ibyo biti bikaba bikiri bitoya, uwo murima ukaba umeze nk'aho nta kindi kintu bahingamo, ari ibyo biti gusa bateyemo.

Ahantu hameze nk'aho ari mu murima. Hariho amateke, hakaba hariho n'insina. Inyuma hariho n'inzu. Hakaba teyemo muri uyu murima, ibirayi bikiri bitoya.

Umurima uteyemo amajeri. Ayo majeri ameze nkaho ari kuyangaga, amajeri akikijwe n'ibiti. Ibiti birebire uwo murima umeze nkaho batari bawusaruramo ayo majeri.

Umurima urimo ibishagari. Iruhande y’uwo murima, hariho inzu isakaje amabati y’ubururu; iriho inzugi z’ubururu. Iruhande y’aho, hariho akazu gatoya, wagira ngo ni igikoni.

Umurima bahingamo, bahinzemo ibigori bameze nk'aho barangije kubisarura kuko harimo ibikenyeri, kandi iyo barangije gukuramo ibigor,i bahingamo bagateramo indi myaka.

Umurima uteyemo insina, izo nsina iyo zimaze gukura zivaho ibitoki. Abantu dukunda ibitoki kuko ibitoki biraryoha bakabijyana no mu isoko.

Ubuhinzi bw’amashu. Amashu ni meza kuko abantu bakunda imboga, kandi no ku isoko bakunda kujyanayo amashu. Imbere yaho, hariho ikigo cy’amashuri. Amashu abanyeshuri barayakunda cyane, n’abantu bayajyana ku isoko.

Umurima uteyemo ibiti. Ibiti ni byiza bituma haboneka umwuka mwiza. Uwo murima hasi nta kindi kintu giteyemo, ni ibyatsi n'ibiti gusa. Ibyo biti hakaba harimo ibiti byakuze, hakaba hariho n'ibindi biti bikiri bitoya.

Umurima w'ibigori, ibigori byarenze barabisarura, iyo bamaze kubisarura barongera bagahingamo bagateramo indi myaka igiye itandukanye, byo bigori iyo bimaze kuma bakuramo bino bikenyeri, bagateramo indi myaka.

Umugabo uhagaze impande y'imashini iri kuvomerera imyaka y'ibigori. Uwo mugabo akaba yambaye ishati y'umweru, n'ipantaro y'umukara. Iyo mashini ikaba ifite amapine y'umukara n'umweru.

Abantu bari guhinga mu murima, abo bantu bakaba batandukanye, umugore n'umugabo bari guhinga, umugabo yambaye agapira k'umutuku, undi yambaye ubusa hejuru bari guhinga imyaka.

Abantu bameze nk'abari guhinga amatarasi. Abo bantu ni benshi wagirango ngo bari mu muganda, abo bantu barimo abagore n'abagabo bafashe amasuka.

Ibishyimbo biteretse ku nkoko, ibyo bishyimbo biratonoye, bimeze nk'aho bashaka kubigurisha, impanda yabo hariho bameze nk'aho bari kubigurisha, hariho n'abantu bari kubigura.

Ubuhingwa bwa puwavuro. Puwavuro bazitera umuti kugira ngo zibashe gukura neza. Puwavuro ni imboga nziza kuko abantu benshi barazikunda cyane. Puwavuro iyo zeze barazisarura bakazijyana mu isoko, izindi bakaziteka.

Ibijumba bibiri biteretse ahantu ku mufuka, ibyo bijumba babikuye mu murima, iy'ibijumba byeze barabikura bakabyoza, bakabijyana kubigurisha bakanabiteka.

Umuntu w'umugabo uhagaze ahantu, wagira ngo ni imashini iri kuvomerera imyaka y'ibigori. Uwo mugabo akaba yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara. Urwo rumashini rukaba rufite amapine y'umweru n'umukara.

inyanya zipanze zisa nk'aho ziri ku isoko ziri kumwe. Izo nyanya na pwavuro, n'avoka n'imboga zimeze nk'aho bazipanze kugira ngo bajye barabigurisha ahantu mu isoko. Hariho n'abantu bari guhaha ibintu bitandukanye.

Ibisheke biri mu murima, ibisheke iyo byeze barabisarura bakabirya, ibindi bisheke bakabijyana ku isoko. Ibisheke ni byiza mu mubiri, kuko byongera isukari mu mubiri. Ibishike barabihingira, bamara kubihingira bagashyiraho n'agafumbire kugira ngo bikure neza.

Imifuka ipanze ahantu wagirango ngo iyo mifukarimo ibirayi bari kugurisha. Inyuma yaho hariho imodoka, hariho n'umuntu wambaye umupira w umutuku.

Umuntu uteruye amabase, uwo muntu yambaye imyenda y'umukara na boti z'umukara. Afashe isuka mu ntoki ari kugenda ahantu hameze nko mu murima, imbere yaho hariho abantu n'ibizu by'umweru.

Abantu bahagaze mu murima bahingamo ibihingwa by'ibigori. Abo bantu bakaba bari kubagara ibigori, bakaba ari benshi. Inyuma yaho hariho inyubako n'ibiti.

Ubuhinzi bw'amashu ateye ku murongo. Amashu ni meza, ni imboga zituma haboneka intungamubiri mu mubiri. Iyo yeze barayasarura bakayajyana ku isoko, andi bakayateka.

Akantu kameze nk'akebo karimo amaronji, amaronji bavuye kuyaca ahantu harimo amaronji menshi, bagiye kuyatunganya bayajyane ku isoko kuyagurisha.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, n'ipantaro y'umukara, ari gusuka inyanya mu mifuka. Iyo zeze barazisarura bakazijyana kuzigurisha, izindi bakaziteka.

Umufuka upakiyemo imyumbati. Iyo myumbati imeze nk'aho bagiye kuyijyana ku isoko. Iyo myumbati imbere yaho hakaba hateretseho ibikombe byo kugurisha.

Igiti k'ipapayi. Ipapayi ni nziza kuko ni imbuto abantu benshi barazikunda, kuko zigira intungamubiri mu mubiri wacu. Ipapayi iyo yeze iba isa nk'umuhondo, naho iyo itari yera iba isa nk'icyatsi kibisi.

Imodoka ipakiye ibitoki, hejuru hariho umugabo uri gupakurura ibitoki, hasi hariho undi mugabo uri gupakurura ibitoki. Impande yaho hariho umugore wambaye akitero mu mutwe k'umukara, agapira k'uturonko tw'umutuku n'umukara.

Pavuro zisa n'umutuku, pavuro iyo watinze kuzisarura mu murima zisa nk'umutuku, icyo gihe ntabwo uba wemerewe kuyiteka, ahubwo n'ukuyinaza ukayitera.

Umugabo uteruye akantu k'agasahani mu ntoki. Ako gasahani karimo ibintu ubunyobwa. Uwo mugabo agafatishije akaboko kamwe, yambaye ishati y'umweru uturongo tw'umweru n'utudirishya tw'ubururu.

Inka zimeze nkaho ziri ahantu mu kiraro bazorereramo hameze nk'ifamu, hariho umuntu wicaye yambaye inkweto zifunze izo nka zikaba zifite amabara agiye atandukanye, zifite n'amahembe zimwe zisa nk'umukara izindi zisa n'umweru.

Abantu benshi bikoreye ibiti n'undi uri gusunika kw'igare bameze nkaho bavuye kubifata kugira ngo babitere mu mirima yabo kugira ngo bibashe kurinda isuri mu mirima yabo. Ni abantu batandukanye barimo abagore n'abagabo n'abana.

Igihaza giteretse mu kintu cy'ikizero, icyo gihaza cyarahiye kimeze nk'aho cyeze neza kuko gisa n'umuhondo, amababi atangiye gusa n'umuhondo. Ibihaza mu Rwanda barabihinga, kuko abantu benshi bakunda kwirira ibihaza.

Imifuka ipakiyemo ibirayi, ibyo birayi bimeze nk'aho bagiye kubijyana kubigurisha, ibyo birayi bikaba biri mu mifuka isa n'umweru iteretse hasi.

Ibijumba birunze ahantu ku makoma, ibyo bijumba iyo bimaze kwera barabikura bakabijyana ku isoko, cyangwa ibindi bijumba bakabirya, abantu kuko barabikunda.

Imifuka imeze nk'aho irimo ingano, kuko hariho izindi ngano ziri hasi, izindi ngano zikaba ziri mu mufuka. Ingano iyo zumye barazibetesha bakazinywamo igikoma.

Ibijumba bimeze nk'aho babyogeje, bimeze nk'aho bashaka kubigurisha. Ibijumba iyo byeze barabikura bakabiteka, cyangwa se bakabijyana mu masoko, kuko abantu barabikunda cyane, kuko biraryoha.

Umugabo uhagaze ahantu mu murima. Uwo murima uteyemo amatunda. Uwo mugabo akaba yambaye imyenda y'umukara, n'agashati k'umweru, n'ikoti ry'umukara. Uwo mugabo ameze nk'aho ari mu murima we w'amatunda.

Imbata ziri ahantu , ziryamye zimeze nk'aho ari nyinshi . Zisa nk'umweru n'umukara ,agakara ni gakeya , ziryamye hasi.

Umugore n'umugabo bari kugenda mu nzira, bameze nk'aho bavuye guhinga ahantu mu murima. Uwo mugore n'umugabo, umugabo yambaye bote n'ipantaro y'umweru n'ishati y'igitaka.

Umuntu uri mu myaka y'ibishimbo, uwo muntu yambaye agapira k'umweru, yipfutse n'atambaro, uwo muntu akaba ari kugira ibishyimbo bye bizakure neza, kugira ngo azabone umusaruro uhagije.

Abantu bahetse amapombo bameze nk'aho bari gufuhira ibigori. Ibigori kugira ngo byera neza, ubitera umuti nuko bigakura neza. Abo bantu bahetse amapombo asa nk'umweru n'umutuku, bakaba bambaye n'ibisurubeti bisa n'ubururu.

Inkoko imeze nka dendo isa n'umukara, imeze nk'aho ibundikiriye amagi, ayo magi akaba asa n'umweru ikaba imeze nk'iryamye mu cyari cyayo.

Amaronji ateretse ahantu mu gatete. Amaronji akaba yarahiye bakayaca, bakayashyira kuri ako gatete, bakaba bazayajyana ku isoko, andi bakayarya.

Amateke ateretse ku kintu gisa n'umweru, amateke iyo yeze barayakura, barangiza kuyakura bakayatonora neza bakayashyira mu kintu bakayajyana kuyagurisha.

Abagabo babiri bahagaze mu murima bameze nk'aho bari gukura ibirayi. Abo bagabo babiri umwe yambaye agasengeri k'umweru n'ipantaro y'umukara n'akagofero, undi yambaye agashati k'umutuku n'ipantaro y'umweru hariho n'imifuka bari gukuramo ibyo birayi.

Umuntu umeze nkaho ari mu bigori, ari kubitonora ngo arebe ko ibyo bigori bye byeze, uwo muntu akaba yambaye agasengeri gasa n'umuhondo, yiteye n'agatambaro mu mutwe gasa nk'umukara.

Ibigori biteye ahantu mu murima. Ibyo bigori bikaba bimeze nk'aho bitari byera, ibyo bigori iyo byeze, biba byarahinduye amababi asa nk'umweru.

Abantu bameze nk'aho bari gukora ahantu mu ruganda kuko bambaye imyenda isa n'umweru n'utugofero tw'umweru. Babafashe ku mavoka bari kuyashyira mu bikarito.

Imbuto zimeze nk'aho ari amaronji , ayo maronji akaba amezeze nk'aho ariho amazi , atari yuma . Barangije kuyoza cyangwa se bakaba barangije kuyaca , akaba atari yumuka.

Abantu benshi bameze nk'aho bari guhinga utuntu tumeze nk'utuzeru. Aba bantu barimo ingeri zitandukanye, abagore n'abagabo bambaye n'imyenda itandukanye, bari guhinga ahantu hameze nko mu materasi.

Abantu bameze nk'aho bari kunyura ahantu mu murima ukikijweho ibigori, ibigori bitari byera. Abo bantu bakaba ari abagore babiri bahetse abana, umwe afashe agakapu mu ntoki, ahetse umwana yakikijeho agatambaro k'umweru.

Ibigori bisa n’aho biteye mu murima. Ibyo bigori bimeze nk’aho byeze, byumye. Iyo ibigori byeze mu Rwanda, abaturage barabisarura bakabijyana kubihunika mu buhunikiro bwabugenewe mu Rwanda.

Abantu babiri bameze nk'aho bari guhinga mu murima. Abo bantu babiri ni abagore, umwe afashe isuka undi amuhagaze ku ruhande, umugore umwe yambaye agasengengeri k'igitaka n'ijipo y'igitaka, inyuma yaho hariho ibitoki.

Igitoki giteretse hasi, gifashwe n'inkingi kugira ngo kidahanuka. Ku ruhande hari kunyuraho umugabo w'umudaso wambaye imyenda y'icyatsi, yambaye n'inkweto z'umukara.

Abantu bameze nkaho bari guhinga mu murima abagore n'abagabo, umugabo we yambaye akagofero k'ubururu na gasengeri k'umweru, afashe isuka ari guhinga.

Umuntu w'umugore ufashe ikintu cy'igihombo kiri kuvamo amazi, wagira ngo ari kuvomerera mu murima, uwo mugore akaba yambaye bote z'umweru n'igitenge cy'amabara n'akantu ko mu mutwe.

Inkoko z'amasake. Amasake ni meza kuko agira inyama ziryoha, kandi abantu bakunda kurya inyama. Izo nkoko ziri kurya ibiryo babisize hasi. Izo nkoko zifite amabara atandukanye. Ay'umweru, n'ay'umukara, n'ay'igitaka.

Inyanya zimeze nk'aho zitari zatukura neza, kuko izo nyanya, harimo izitari zatukura zisa icyatsi kandi inyanya iyo zitukuye ziba zisa n'umutuku.

Abantu bahagaze ku murongo bateruye ibirayi nk'udutente, aba bantu bakaba batandukanye hari abagabo bavanze n'abagore bahagaze mu mirima bahinzemo ibirayi.

Abantu babiri bahagaze bari kuyobora imyanda hasi bari kuyishyira mu gifuka, aba bantu ni abagore umwe yiteze agatambaro k'umutuku, yambaye n'ijipo y'umutuku, undi yambaye ijipo y'umukara n'ishati y'umweru.

Abantu bameze nk'aho bikoreye ibitebo ari benshi , harimo abagore n'abagabo . Abo bagabo bakaba bambaye amakoti y' umukara.

Abagore batanu bateruye inanasi. Abo bagore harimo abambaye imyenda y'umukara, abambaye iy'umweru bakenyeye n'ibitenge, abo bagore bameze nk'aho bishimye.

Ibirayi bimeze nkaho ibyo birayi bavuye kubikura. Iyo uvuye gukura ibirayi urabyanika, ukabihuraho itaka kuko haba hariho itaka ryinshi.

Abantu benshi b'abagore bameze nk'aho bari gusarura umusaruro w'icyayi. Mu Rwanda abantu bakunda icyayi kuko bakigemura mu mahanga. Abo bantu bakaba bafite n'ibitebo mu mugongo.

Abagabo bari gukora umugezi bari kuwunyuza mu murima urimo amashu. Abo bagabo bakaba umwe yambaye akagofero, abandi bari mu mpande bambaye imyenda y'igitaka. Inyuma yaho hariho ibigori n'igiti kinini.

Ibirayi bimeze nk'aho babikuye hejuru hahagazeho abagabo bameze nk'aho bari kubipakira mu mifuka, ibirayi ni byiza abantu barabikunda cyane mu masoko, ubwoko bw'ibirayi kinigi, kuruseke, n'ibindi byinshi cyane. Ibirayi ni byiza cyane abantu barabikunda.

Ikiganza kimeze nk'aho giteruye ubunyobwa mu ntoki. Impande yaho hariho umurima umeze nk'aho badahingamo, uteyemo ibiti birebire.

Umurima uteyemo ubunyobwa, uwo murima hakaba harimo ubunyobwa, ku ruhande hariho ubunyobwa bumeze nk'aho barangije kubukura, bategereje ko bwuma.

Igiti kimeze nk'aho kiriho ubunyebwa bahinga, kuko iyo ubunyebwa bweze baraburandura, bakabukura kuri icyo giti baba barabuteyeho, ni uko bakabutonora, bakabwanika.

Ubunyobwa bumeze nk'aho buri ku bwanikiro, ubwo bunyobwa bukaba iyo bumaze kwera baraburandura, bakabwanika, bwamara kuma bakabutonora, bamara kubutonora bakabujyana mu isoko, ubundi bakajya babukaranga bakaburya.

Ibintu bimeze nk’aho ari ubuki. Ubwo buki bakaba babukura mu mitiba. Imitiba bakaba bayiboha mu mbingo, nuko barangiza kuyiboha bakayijyana kuyagika, hakajyamo inzuki.

Isaka iyo ryeze bararisarura, bakarijyana, bakagenda bakaryanika, nuko ryamara kuma bakarijyana bakajya kuribetesha, bakanywamo igikoma.

Imifuka ipanze, ivanze, irimo imifuka y'agahunga n'imifuka z'umuceri, hateretseho ku ruhande rwaho ibidomora by'amavuta, bipfundikiye imifuniko isa nk'umutuku, hariho n'ibintu bisa n'umukara.

Umugabo wambaye imyenda y'igitaka, akagofero gasa n'umukara, n'umweru. Avuye gusarura ubunyobwa. Ubunyobwa iyo bweze barabusarura bakabujyana bakabutonora, bakabwanika, bwamara kuma bakabubetesha, ubundi bakajya barabukaranga.

Umugore uteruye umwana, wambaye umwenda w'umweru n'umukara, uwo mwana yambaye umwenda w'umweru, ateruye imboga, asa n'aho avuye kuzica mu murima urimo ibigori n'ibiti.

Indabo zimeze nk'aho ari ibihwagari, izo ndabo zikaba zisa nk'umuhondo n'umukara, harimo indabo zimwe bapfundikije utuntu tw'udushashi, dusa nk'umweru.

Umurima urimo ibigori byumye, uwo murima ku ruhande hakaba hariho ubwatsi, mo hagati hakaba hariho umugezi uri gutemba, hakurya hari ibindi bigori, n'agashyamba gatoya.

Umugore umeze nkaho ari kugosora ibigori wambaye imyenda y'umutuku, n'agatambaro k'umukara mu mutwe, yambaye inkweto z'ubururu, impande yaho hateretseho agafuka ari kugosora ibigori.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo. Ibishyimbo ni byiza kuko abantu barabikunda. Iyo ibishyimbo byeze barabisarura, bamara kubisarura byarumye, bakabihura ,bakabishyira mu buhunikiro bwabugenewe.

Ubunyebwa bwareze baraburandura, iyo bamaze kuburandura babukura kuri cya cyatsi, bakabujyana bakabwanika mu rugo, bwamara kuma bakabutonora, bamara kubutonora bakajya bararabukaranga, nuko bakajya baburya.

Ubuhinzi bw'umuceri. Umugabo ari gutera umuceri. Umuceri ni mwiza kuko abantu benshi barawukunda cyane kuko ugira intungamubiri mu mubiri. Umuceri iyo weze barawusarura nuko bakawujyana ahabugenewe imashini ikawubeta.

Ubuhunikiro bw'ibigori, ibigori iyo byeze barabisarura, bamara kubisarura bakabijyana mu buhunikiro bwabugenewe, kugira ngo ibigori bitangirika, ubwo buhunikiro ba bwubakisha ibiti ndetse n'amabati.

Umugabo umeze nk'aho afashe ingurube. Uwo mugabo yambaye bote wambaye n'igisurubeti ameze nk'aho ari gufata ingurube, ingurube ibyibushye ifite amezi.

Inkoko isa n'umutuku iri kugenda iri gutambuka. Inkoko ni nziza kuko zitera amagi, amagi akagira intungamubiri mu mubiri wacu.

Umugabo umeze nk'aho ari gushorera ingurube. Uwo mugabo akaba yambaye bote z'umukara, n'igisarubeti gisa n'igitaka. Iyo ngurube ikaba imeze nk'aho ifite amezi ikaba yenda ku bwagura.

Umugabo wambaye isarubeti y'umweru n'ipantaro y'umukara, ari kuvura inka. Inka bayiziritse bayishyize mu biti, hariho undi mugabo umufashije wambaye isarubeti isa n'ubururu.

Umuntu uri gushorera amahene. Amahene ni meza, kuko abantu bakunda n'inyama z'ihene, uwo muntu akaba yambaye agapira gasa nk'umweru, izo hene zikaba zifite amabara asa nk'umweru n'igitaka.

Inkoko ziri mu biraro. Izo nkoko zikaba ari nyinshi, hakaba hateretsemo akantu zinyweramo amazi, kugira ngo zibashe kugira ubuzima bwiza, hakaba hariho inkoko nyinshi ziri mu biraro.

Inkwavu zimeze nk'aho ziri kurya ibyatsi, izo nkwavu zikaba ari inkwavu enye, izi nkwavu zikaba zisa n'umweru, zifite amaso asa nk'umutuku.

Abantu bicaye ahantu ari benshi, inyuma yaho hariho utuntu tumeze nk'ibibuti. Aba bantu bakaba ari abagore basigatiye n'abana, hariho bambaye n imiyenda isa n'umukara n'umweru.

Umuntu umeze nk'umugore uteruye urukwavu, urwo rukwavu rusa nk'umweru, rufite amaso y'umutuku, uwo mugore akaba yambaye igikanzu, impande yaho hariho ibintu bimeze nk'ibibuti by'inkwavu.

Ubworozi bw'amatungo. Ingurube ziri kunywa amazi, izo ngurube zikaba ziri mu ifamu ari nyinshi, zikaba izindi ziri ku ruhande ziryamye ziri mu biraro byazo.

Abantu bameze nk'abaganga, bambaye udupfukamunwa, harimo abagore n'abagabo, bambaye n'amaga asa nk'umweru, bari gutera imiti mu nka.

Abantu babiri bahagaze impande y'ikiraro k'inka, bakaba bameze nk'abegamiye ku nsina. Ni umugore n'umugabo, umugabo yambaye agashati k'umweru, n'ipantaro y'umukara.

Ingurube iryamye hariho utugurube twinshi, dufite amabara y'umweru n'umukara. Iyo ngurube ikaba imeze nk'aho iri konsa utwo tugurube dutoya.

Inka zimeze nk'aho ziri ahantu mu ifamu. Izo nka zikaba zisa nk'umweruru n'umukara, n'igitaka. Hakaba hariho akantu kubatse, hejuru hariho ihema risa nk'ubururu.

Umuntu usutamye ari gutera ihene urushinge. Undi muntu amufashije gutera iyo hene urushinge, kugira ngo idatera amahane. Bari kuyivura kugira ngo ibashe kugira ubuzima bwiza na yo.

Abantu bahagaze bari gushungera ingurube. Iyo ngurube yarabwaguye ifite ibibwana, ibyo bibwana bikaba byari biri konka, bikaba biri mu kiraro. Abantu bakaba bari gushungera iyo ngurube yabwaguye.

Umugabo umeze nkaho ateruye agahene, hakaba hariho n'abandi bantu benshi, hariho n'umugore ufashe umuziriko, wambaye agashati k'umutuku n'igitenge.

Akanyoni kameze nkaho kari ku giti ahantu. Ako kanyoni kakaba gafite amabara y'umweru n'umuhondo n'umukara, kakaba kari ku giti cy'umugano.

Inkende imeze nk'aho iryamye ahantu mu giti. Iyo nkende ikaba iryamye iraramye, ikaba iri kureba hejuru. Iyo nkende ikaba ifite amabara y'umukara n'igitaka.

Inyoni imeze nk'aho iri kugenda ahantu mu byatsi. Iyo nyoni ikaba ifite amaguru y'umukara amababa asa n'umweru n'umunwa usa nk'umukara ifite n'ibisembe bisa nk'umukara.

Inyoni ihagaze ahantu mu murima. Iyo nyoni ikaba ifite amabara y'igitaka ndetse n'umukara. Iyo nyoni ikaba iri kureba ikintu, ikaba ifite n'amaso asa nk'umukara.

Akanyoni kameze nk'aho gahagaze ku giti kari kwasama, ako kanyoni gafite amabara y'umukara, hasi hasa nk'umuhondo, gahagaze ku giti nk'aho sinzi ikintu kari guhamagara.

Inyamaswa iri mu mazi, imeze nkaho iri koga. Iyo nyamaswa ikaba iri kumwe n'akandi kanyamaswa gatoya, kuko iyo nyayamaswa imeze nkaho iri kwigisha ako kanyamaswa gatoya koga.

Akanyamaswa kameze nk'aho ako kanyamaswa ari agakende. Ako kanyamaswa kakaba kari ahantu hasi kwitaka kakaba gafite amabara asa nk'igitaka n'umukara kaba sinzi ikintu kari kureba.

Akanyoni gahagaze ahantu, ako kanyoni kakaba gafite amabara atandukanye. Ayo mabara asa n'umukara n'umweru, n'igitaka. Ako kanyoni gahagaze sinzi ikintu kari kureba.

Urukwavu rumeze nk'aho ari urukwavu rwo mu ishyamba, rufite amaso asa umukara, rukaba rusa nk'igitaka, ruri ahantu mu twatsi, rumeze nk'aho ruri kurisha.

Ikigona gihagaze ahantu hasi ku itaka gifite amabara asa n'umweru n'umukara. Icyo kigona kikaba kimeze nk'aho ari ikintu kiri kureba gishaka kuguruka.

Akanyoni gahagaze ku giti, ako kanyoni kakaba gafite amabara asa n'umweru, n'umukara, gafite n'umunwa muremure, gasa n'umukara kakaba kasamye.

Igiti kimeze nk'aho kirimo icyari, icyo cyari kikaba arik'inyoni ndi kubona, inyoni ifite amabara y'umuhondo ikaba iri mu ibiti imeze nk'aho iri kujya mur'icyo cyari.

Agasiga gafite amabara y'umweru ,gafite umunwa w'igitaka n'amaguru asa n'igitaka gahagaze ahantu mu byatsi ,sinzi ikintu kari kureba.

Akanyamaswa kameze nkaho ari inkende iri mu biti bisa nk'icyatsi, uduti dusa n'umukara. Iyo nkende ikaba isa umukara n'umweru.

Inkende zimeze nk'aho ziri mu giti. Izi nkende zikaba ari ebyiri zisa n'umukara. Zimeze nk'aho ziri guca imbuto, zishaka kurya izo mbuto.